Icyumba cyicayemo abantu biganjemo abasore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo, ku meza hateretse amacupa y'amazi, baritegereza banumva, ibyo bari guhugurirwa muri icyo cyumba.

Ikigo cy'ishuri gifite ubusitani bwiza, inyubako eshatu, indabyo. Mu muhanda haragendamo umukobwa ujya ku ishuri, arikumwe n'umusore wambaye umupira w'ibyatsi kibisi cyenda kumera nk'umuhondo.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe nyinshi, intebe y'umwarimu ndetse n'ameza akoresha yigisha n'amatara ari kumurika kugira ngo atange urumuri mu ishuri ryigishirizwamo abanyeshuri.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe zirenze imwe, cyicayemo umusore ufite mudasobwa, ari gukora isubiramo mu masomo yize, icyumba cy'ishuri kandi kirimo amatara amurika kuri, ku kibaho cy'umweru.